Nkuko bigaragara aha naho ni ku muhanda, ahantu bashyize ikicaro cyangwa se aba ajenti ba MTN ndetse na Eyateri, ikigaragara cyo batanga serivise zijyanye no guhamagara, guhamagarwa, kubitsa no kubikuza kandi n'ikindi kintu twakenera wenda nka simukadi twabisanga hano kuri utu tuzu tubaranga.

Aha naho ni impande y'umuhanda aho bateye akazu ka mtn kaba karimo umwagenti afasha kuduha serivisi nziza cyangwa se atanga serivisi zijyanye n'ikoranabuhanga nk'amanite kubitsa, kubikuza n'ibindi.

Hano uko bigaragara ni ku isatere hubatse inzu z'ubucuruzi, inzu bacururizamo imyenda ndetse n'umgeti uri impande yazo ariko hirya y'iwe naho, haparitse imodoka nziza y'umukara ariko ikigaragara cyo imbere y'izi nzu hashashemo amapave ariko arashaje.

Uko bigaragara, aha hantu naho ni mu mujyi. Ishusho yaho ndahabona akazu k'umwajenti, ndahabona abantu benshi, buri wese ajya muri gahunda z'iwe zitandukanye. Ndahabona imodoka ndetse n'ibiti biteye ku muhanda. Gusa ikigaragara cyo aha hantu ni heza, hafite isuku ndetse nta kajagari gahari k'ibintu byo hirya no hino.

Aha naho turahabona umumama, umumama ahagaze mu iduka cyangwa se muri butike, harimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye bigaragara ko ari, ikigaragara cyo uyu muma afite ibyishimo by'uko yateye imbere.

Iyi shusho nayo iragaragara ko hano ari muri butike. Hari ingufuri ndetse n'udukapu tumanitse. Bigaragara ko iyi ngufuri iri gushaka umuntu uyigura cyangwa se umukiriya.

Aha naho hari umugabo wishimye cyane, umugabo ari kumwe n'abandi ba mama ndetse n'abakiriya, umukiriya umwe ari kuri terefone, hano hari amafi meza y'amoko yose! inyuma ye hari butike nziza ubona ko yuzuye rwose.

Aha na ho haragaragara inzu nziza cyane, inzu igaragara ko ari iy'ubucuruzi kuko ikigaragara cyo hari indobo, hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye, rero ariko impande yaho hashashe amapave, ariko amapave aragaragara nk'ashaje rwose kuko arimo aragenda ameraramo ibyatsi, ikigaragara cyo ntabwo bari kuhitaho.

Aha naho turahabona umugabo uhagaze imbere afite mikorofone imbere ye ndetse na mashini bigaragare ko ari gusobanurira abantu ibijyanye n'ubwizigame cyangwa se kubitsa kubikuza mu bihe bitandukanye kuko ikigaragara cyo ni banki kuko hari icyapa kiri kutwereka ko bipiyara kandi bipiyara tuzi ko ari banki.

Aha na ho ndahabona abantu benshi bicaye kandi bicaye ahantu hamwe bigaragara ko bari mu nama bari kwiga ku bintu bigiye bitandukanye.

Hano hari abasaza bambaye amakanzu ndetse n'ingofero, bambaye amashapule bagaragara ko ari abapadiri cyangwa se aba musenyeri ariko imbere yabo ndahabona imva iteyeho indabyo, yanditseho n'amagambo n'inyuma yabo hari amazu, bigaragara ko hari umuntu wabo bari kwibuka.

Hano hari umugabo mwiza cyane umugabo, ugaragara ko akora muri hoteri, ari kutwereka ibintu bye bitandukanye, inyuma ye hari amazu meza, ndetse na jaride nziza, kandi hari n'urugo rukikijwe n'ibyuma.

Aha na ho turahabona amatungo yiganjemo ihene, bigaragara ko wagira ngo ni mu isoko aho bazishoboye kugira ngo babone amafaranga yo kwiteza imbere, bityo rero ndahabona n'umugabo uhagaze bigaragara ko ari kuzigurisha cyangwa se ari kugura.

Aha naho haragaragara nko mu isoko kuko hari abantu benshi begeranye, bari gucuruza ibintu byinshi bitandukanye. Aho mbona imifuka iteretse, ubutunguru buteretse aha ngaha rwose, kandi ikigaragara cyo nubwo isoko ririmo, imvura iri kugwa, yabaye nyinshi rwose.

Aha naho turahabona amazu meza amazu y'ubucuruzi ateye kimwe kandi yubatse ku mu muhanda wa impande y'umuhanda wa kaburimbo mu muhanda wa kaburimbo rwagati harimo umugabo nawe utwaye moto ndetse iyo moto ayihetseho gaze ikigaragara cyo umuhanda ni munini urimo ibice bibiri impande y'i.

Aha naho uko bigaragara hari umugabo utwaye moto umugabo yambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara ari kugendera mu muhanda wa kaburimbo hagati y'uwo muhanda harimo umurongo w'umuhondo udacagaguye hakurya yawo hari inzu ndetse igeretse bigaragara ko wagira ni urusengero ariko impande yaho hari indabo impande z'umuhanda hari indabo ndetse n'imirongo y'amabara yumukara n'umweru.